Imifuka ibiri iteretse, ibamo umuti wa detani batera mu mbuto, mu nyanya, mu ntoki.

umuntu w'umugabo washinze igiti mu byatsi, aragifashe hirya ye hariho ibihuru, n'ibiti bihagaze.

Umugabo uhetse ipombo irimo umuti uri mu murima, uri gufuhira imyaka mo umuti yambaye imyenda y'umweru n'ipombo y'icyatsi mu mugongo.

Umugabo uri mu murima munini w'umuceri ahetse ipombo ari gutera umuti muri uwo muceri, yambaye ingofero y'ubudodo n'umweru.

Umuhungu wambaye igisarurbeti, uri mu murima munini cyane, ahetse umuti ari gutera mu bireti.

Imifuka minini myinshi irambitse hejuru yimbaho, iri mu giti kinini, yo itambitse munsi ya cyo.

Imifuka myinshi itondetse hejuru yimbaho, iri munzu y'igihangari gisize irangi ry'icyatsi ku biti byamasharupandi nibihagaze.

Utudomoro tubiri, turimo umuti wica udukoko n'uducupa tubiri, natwo turimo umuti wica udukoko.

Umuntu uhetse ipombo itera umuti mu mbuto ari guterare umuti mu mbuto ze yahinze.

Umugabo uri mu murima, yambaye bote n'umupira n'ipantaro, ahagaze iruhande rw'ikirundo cyi'ibyatsi. Hirya hariho umurima w'ibirayi munini n'uw'ibigori.

Umuntu ahagaze mu murima munini cyane , iruhande rwe hari gucumba umwotsi, yambaye imyenda y'umukara.

Amasamaki yishe mu mutego, bayarambika mu gapaniye gafite imyenge myinshi.

Amafi abiri arambitse ku isiniya, n'ibirungo nka te, n'indimu birambitse ku meza.

Amusamaki ababazi bakuye mu mufuka, banitse izuba n' umuntu arimo kugaragaza intoki hafi y' uwo mufuka.

Amafi abiri barambitse ku ipanu, hariho n'ibirungo byo kuyatekana . Hariho n'urunyanya.

Igice kinini cy'isamaki barambitse ku meza . Andi masamaki apfunyitse ,bayarambitse nayo ku meza. N'ibase iri mu masamake.

Amafi abiri bacurikiranyije ariho akaba buri fi iriho akababi ka te n'agasate k'indimu.

Abagabo babiri n'umudamu umwe usutamye, imbere ye hariho ibasi irimo amahera, n'umugabo uhagaze mu mazi ufite agasahani, undi ari kuri terefone mu bwato.

Amabase ane yuzuye imishogi y'amajeri yumye adatonoye.

Amafi menshi yanitse ahantu, hari amwe bashyize ku gasahani, andi ku munzani.

Umugabo munini wicaye ku mutwe w'ubwato, imbere ufashe n'ingashi, hagati y'ibyatsi, hakurya no hakuno hari amazi ari kunyuramo.

ibizenga by'amazi bubatsemo utuzu hakikijwe ibyatsi bigufi k'uruhande.

Isoko ry'indagara n'injanga, biri mu mifuka irambitse ku ntara no ku meza.

Amafi atanu bashyize mu gapaniye k'umutuku, gafite utwenge twinshi.

Igiti kinini cy'avoka kirekire , iruhande rw'icyo giti hariho insina nyinshi.

Umugezi wigishanga ,ku mugezi hari umuntu ushyize amaguru mu mazi , hirya ye hariho umuntu wambaye umwenda w'umuhondo ,hirya cyane hariho inzu nziza.

Umurima munini wa karoti uciyemo bakagenda ruguru ahagana imbugiro hari ibiti.

Umuhanda w'igitaka, uruhande hariho indabo, hirya inyuma hariho urutoki n'ipoto y'umuriro hubatse n'inzu ikurakuye.

Umurima munini, urimo ibyatsi n'ihene ziri kurisha, hirya y'uwo muririma hari inzu n'ishyamba.

Umurima munini uteyemo imbuto, ni imitabo, hirya y'uwo murima munini hariho ibiti nsina.

Umurima urimo igiti cya sipuri, n'isombe n'insina nkeya ziringaniye, hirya hariho inzu, yamatafari ahiye.

Igitoki giteyemo inkingi imbere y'inzu y'inkarakara ikingishijwe urugi rwa metalike.

Umurima munini, ufitemo utwatsi tutarakura. Hirya, hariho igikenyeri n'ibiti, hirya y'ibyo bikenyeri.

Umurima munini w'ibirayi, hirya y'uwo murima hari uruzitiro rw'urugo ruriho na porutayi y'umutuku.

Igiti kirekire cya shipuri, hariho n'ibindi biti biciriritse harimo imisave.

Mu kayira gato kanyuze hagati y'agashamba, hirya no hino gakomeje hirya ntabwo, yemenya amababi yutwo duti.

Igiti cya voka kinini kiyombaje. Kiri ahantu giteye.

Umurima w'ibigori , urimo n'ibyatsi byinshi hasi .

Insina ziri imbere mu rugo ruzitiye, hariho n’imishingiriro n’akayira kagiye muri urwo rugo.

Ibishingirizo byegetse ku nzu n'ibindi byegetse ku ruzitiro, hagati hanyuzemo akayira kagiye muri urwo rugo.

Umurima munini uteyemo ubwatsi, hari iruhande insina z'urutoki na kawesi, muri urwo rutoki ku ruhande.

Agati k'umusave kari mu muririma munini, harimo ibyatsi, ntigahingiye.

Umurima wurutoki uteyemo ibigori, uhingiye kuruhande hariho ibiti byamashubi.

Igiti cy'isombe n'igitsinzi cy'amateke ya bungubungu, iruhande rw'inzu ikurakuye y'amabati atukura.

Intoryi zitwa inkarishya ziri iruhande rw'inzu iri mu igipangu, hirya y'icyo gipangu hariho insina.

Umurima munini udahinzemo ikintu, ruguru hari n' igiti kinini, n'abantu iruhande rw'icyo giti.

Umurima munini uciyemo akayira, urimo abana baragiye ihene, harimo insina, n'inzu hirya y'uwo murima, harimo n'inzu nziza izitiye n'amatafari.

Inkoko nyinshi zirimo gutoragura . Ziri gutoragurira ahantu hamwe zegeranye . Zifite amabara menshi .

Amapera ane basizeho amababi, rimwe, ipera rimwe, barisatuyemo ibisate bibiri.

Igitoki cy'inyamunyo cyegetse ku mifuka irimo imyaka, ku ruhande hariho intebe y'itabureti

Ibiti by'imbuto barya, izo mbuto ziratukuye zirahishije zikunze kwera mu gace k'uburasirazuba.

Umurima w'ibigori barya, n'umudamu uri kureba ko byeze. Ari mu murima afashe ikigori kimwe.

Igihingwa cya wotameroni bakekagujemo ibisate byinshi, barambitsemo icyuma hagati y'ibyo bisate.

Abadamu bari guhinga mu murima bacuramye, bari kureba hepfo, hirya hariho abandi bantu benshi, no hakurya yabo hariho undi musozi.

Ibigori bimanitse mu gihangari kinini cyane, gisakajwe amabati hasi hariho imbaho , hasize irangi ry'umutuku.

Abantu batatu bari mu muririma w'amashu, abadamu babiri n'umugabo umwe. Buri wese afashe ishu ,umugabo ari hagati y'abo bagore yambaye n'amarinete.

Abagabo babiri bari gusoroma voka ziri ku giti kinini, izo voka hari insina.

Umugabo uri mu murima w'ibigori bikiri bito, yaranduye ibigori bike abifashe mu ntoki. Haruguru y'uwo murima w'ibigori hateyeho ibiti bikeya.

Igiti cy'avoka ikiri ntoya, avoka y'imbangurane. iri mu murima usasiye ibyatsi byinshi cyane byumye.

Ibigori byinshi cyane, biri mu murima munini bitohagiye byarahetse ibigori, kimwe gihetse bibiri.

Ibigori bitotoyeho ibishishwa, umuntu arambitsemo ikiganza kuri ibyo bigori.

Ibirayi binini byandagaye muririma munini w'intabire bakuyemo ibirayi barya.

Amapapayi abiri, n'ibisate bibiri birimo imbuto birambitse ku bibabi by'amapapayi.

Abadamu babiri, bari mu murima w'ingano, bari gusarura bari gukoresha indiga.

Umurima munini uri ku musozi, uciyemo amaterasi harimo intabire n'ibiti.

Inanasi zirambitse ku mufuka, utudobo tubiri tw'umweru n'umuntu wunamye, ufashe inanasi mu ntoki.

Umurima uteyemo ibigori byenda kwera. Hirya hariho ibiti binini by'ibikori birimo utwatsi dukeya.

Ingurube iri konsa ibyana byayo.

Umwana w'umukobwa n'umugore bari guhingira imyaka. Inyuma yabo hariho imyaka myinshi.

Umudamu yikoreye umufuka, inyuma ye hariho umugabo uri mumurima.

Nyuma amapera abiri zimwe zifite ziriho utubabi hariho ,n'ibisate bibiri by'amapera basatuyemo.

Umudamu uri mu murima wo gutera igiti, inyuma ye hariho abantu benshi, barimo umurima munini uteyemo ibindi biti hirya.

Agatabi k'inyanya, hariho inyanya zihishije, n'izindi nkeya zidahishije, ziri mu murima.

Umugore ubyibushye uvuye guhinga utereye isuka ku rutugu wishimye ko atashye.

Ibitunguru barya birambitse ahantu. Bifunze udufungo udufungo. Biracyari bibisi.

Umugore n'umugabo bari mu murima munini w'imyumbati. Baranduye umwumbati bawufashe mu ntoki n'imyumbati yawo ihari.

Umugabo uri mu muririma w'imyumbati, yaranduye umwumbati, imyumbati ya yo yose yayiteruye ayishyira hejuru. Hirya hariho undi mugabo uri hagati mu myumbati.

Abantu benshi bari guhinga, harimo na dasso bari gukora umuganda ku musozi n' ikibaya.

Umudamu uri kubagara imyaka hafi y'akayira. Hirya hariho igiti kinini, n'inyuma ye hakurya y'akayira, hariho indi myaka.

Isaniya iriho imiteja yamajeri idatonoye, iracyari ifite ibara ry'icyatsi, byose birambitse kumeza.

Imineke imwe ihiye, indi itari yashya batondetse ahantu. Ihiye iri iruhande rumwe n'idahiye iri mu rundi.

Abantu barigutera umuti mu murima munini w'ibigori, hirya hariho ishyamba.

Abantu benshi harimo: n'umudaso, n'umupolisi, imbere hari umugore ufite isuka ku rutugu, n'umugabo begereye ibisheke.

Uruhande ruto rwa voka rwezeho avoka enye, hirya hariho agahuru k' ibyatsi byumye, no hirya gatoya hariho agahuru k' ibyatsi bibisi.

Imyembe barya ikunze kwera mu burasirazuba, bayishyize mu gapaniye bagatereka ahantu, iyo myembe isa n'icyatsi, ntabwo iratukura ngo ihindure ibara.

Amatunda ari mu murima, hariho amwe ahishije aranze ku biti batambitseho, agomba kurandiraho.

Igihingwa cy'ikinyomoro, kiri mumurima uhingiye, ariko harikumeramo n' utwatsi dukeya cyane.

Puwavuro seze ku giti, baziteka mu isombe, mu nyama, zihumuza mu biryo.

Inka ziri mu kinani kirimo ubwatsi, hirya y'izo nka hariho imisozi n'ikirere kitamuruje.

Umugabo wambaye amadarubindi ufashe ifu, ahagaze hagati y'abagore babiri bafashe amashu manini.

Ibitunguru byinshi birambitse mu kibogisi, iruhande rw'ikibogisi hari ibijumba.

Amahene ari kurisha ahantu hari akanani badahinga n'amahene ane imwe iraziritse.

Amatunda abiri ariho n'ikiganza gifashe itunda rimwe ku nkondo, amatunda yarakumbaraye. Ni umurima w'amatunda.

Inyanya eshatu ziri ku ruti rwazo, hari urunyanya rumwe rudahishiye.

Umugabo barambitse imyumbati baranduranye n'igiti cyazo, barambitse ku igare n'abagore bicaye hasi barambirije, n'undi mugabo uri kureba iyo myumbati iri ku igare.

Abantu benshi bari guhinga. Inyuma yabo hari inzu hari umwe umanitse isuka ari kureba inyuma. Hakurya y'aho hari umusozi uteyeho ibiti.

Intoryi zitwa ibibiriganya. Ziri ku giti cyazo zo n'uruyange rutari rwakura.

Abantu bari gusoroma icyayi, bafite ibitebo inyuma mu mugongo.

Avoka eshatu, imwe basatuyeho igisate gitoya, urubuto ruri kugaragara, izindi ntabwo zisatuyeho,

Umugore utereye isuka ku rutugu uri kwerekeza ku muririma w'ibigori. Hirya ye hariho umusozi uteyeho ibiti.

Umugore ufite amashu abiri inyuma ye hariho umurima wa amashu n'abantu bahagaze hirya yuwo murima w'amashu.

Abagore bafite amasuka bari guhinga umurima, inyuma yabo hariho ibiti birebire.

Abantu batatu, abagore babiri n'umugabo umwe bari mu murima w'inanasi. Hirya y'uwo murima hari insina nkeya.

Umudamu ufashe imbuto enye, ufashe imbuto enye mu ntoki, yipfutse n'igitambaro cy'ubururu. Hirya hariho ishyamba ry'ibiti riringaniye.

Ihene nini y'imfizi, ifite amabara yahagaritse umugara, iri kureba imbere imeze nk'irwaye.

mugore ufite ingemwe z'ibiti za Gereveriya ziri mu bihoho, ari guseka ,arishimye ari mu muma munini.

Abadamu babiri n'umugabo umwe, bari mu murima w'umuceri, umurima munini w'umuceri, bari gusarura, bahagaze hejuru y'ihema.

Ihene iri mu murima, yashureje ubwoya. Hirya y'uwo murima munini irimo, hariho umusozi ubambirije.

Abahinzi bari guhinga n'amasuka, bamaze kugira intabire igaragara. Inyuma hariho insina bamanitsemo imyenda. Hirya hari igiti, hakurya yabo cyane hariho umusozi.

Wotamerune n'izindi mbuto, biri mu dupaniye no mugakarito, bitanditse ku meza.

Agacuma kamanitse mu itabi ry'avoka. Avoka yeze. Hariho n'insina munsi yaryo, y'iryo tabi.

Umugore uri mu murima w'ibigori, unyuzemo akayira, afite ibigori bibiri mu ntoki ze, umugore yambaye ikoti rirerire.

Abagore bari guhinga, bari guhingira imbuto hirya yabo, hari umusozi uteyeho ibiti.

Umugore n'umugabo bari mu murima munini, bari kubagara ibirayi bihinze muri uwo murima.

Umurima munini uteyemo ibiti bitanga imbuto, hari n'ibigori, ni umurima uhingiye neza.

Umurima munini w'ibireti. Umurima urimo ibireti, bifite uturabo nitwo basarura.

Abagabo babiri imbere yumurima. Umwe afite ikaramu k'umufuka ahabiriye n'igishora k'umutwe. Inyuma hariho umurima munini w'icyayi harimo umugore uri gusoroma iruhande rwabo bagabo bahagaze.

Umugabo utereye isuka ku rutugu, ari kuganira kuri terefone , n'ibigori iruhande rwe avuye guhinga.

Imyembe yera ku giti kinini kigandaye, ikunze kwera mu Burasirazuba, mu gice gishyuha kirimo ubushuhe bwinshi.

Umukobwa uri mu muririma, urimo ibyatsi ni umurima munini, imbere ye hariho agati ka voka.

Abagore benshi bari gusarura icyayi. Icyayi kiri mu murima munini! Munini cyane.

Umugore uhetse umwana ari iruhande rw'ikigori, bari mu murima imbere ye hari abagore benshi bahagaze.

Umurima munini w'ibigori unyuzemo akayira, ku mpande z'akayira hariho utwatsi twamezeho.

Umugore ahagaze mu murima munini afite igitebo cyo gusaruriramo mu umugongo. Hakurya y'uwo murima hari imisozi.

Umukecuru ushingikirije isuka kukarevuro ari mu murima. Inyuma ye hari undi mudamu, hari n'urutoki runini cyane.

Umudamu wikoreye ibase iriho ibintu, ufashe inkoko ebyiri mu maboko, n'abandi bantu benshi, n'umudamu inyuma y'uwikoreye ibase, wikoreye ku mutwe, ndetse n'imifuka mu mugongo.

Amahundo y'amasaka, harimo amahundo amwe atukura yeze benda gusarura.

Kontineri y'umutuku iteretse ku mapine gusa, iri ahantu hameze ibyatsi.

Igihwagari gifite uruyange kiri mu murima, harimo na karoti. Uwo murima hirya yawo hariho sipure.

Ubunyobwa buteye mu murima, bufite uruyange, akantu gatoya gahingiye.

Umurima munini uhinzemo ingano, ingano zitari zera, hirya y'uwo muririma, hari ibiti byinshi birumbaje.

umugore wapfukamye mu murima munini urimo ibyatsi, ari kurobanura ibyatsi , akeneye akabishyira ku ruhande.

Ibishyimbo by'umutuku, birunze akarundo, birambitse hasi ku kantu k'umweru.

Ikigega bahunikamo imyaka gisakajwe ibirere,

Imishogi myinshi y'amajeri, banitse ku izuba hasi, bayishashe kugira ngo yume.

Ibishyimbo by'imishingiriro bitoshye, bashingirije ibiti babihuje, barabihambira.

Umuhunda w'ibigori byumye, bimanitse mu nzu nini. Na byo ni byinshi. Birumye neza, bimwe birambitse hasi ku bisima.

Amasaka yeze babetesha bakaryamo umutsima, bayahinga ahantu h'ikibaya areze aratukuye.

Ibishyimbo byinshi bifite ibara bishashe hasi babyanitse.

Amasaka ari mu murima atari yera neza, ateye mu kibaya hirya hari umurima usanzwe.

Imiteja y'ibishyimbo, kimwe kiratonoye, izindi mbuto zirambitse hasi, ari n'uruyange rw'ibishyimbo.

Umuririma w'amajeri harimo imisogwe, aracyari icyatsi ntabwo yari yera neza.

Ibishyimbo byiza by'umutuku, bimwe babishyizeho ku mudaho, ibindi biri ku mufuka ufunguye.

Ubunyobwa budatonoye busutse hasi, bakunda guhinga mu gace gashyuha nk'ak'iburasirazuba.

Igishyimbo kigufi gifite ibishyimbo bigufi bifite imiteja iri mu murima uhingiye urri mu mabuye.

Ibishyimbo byinshi by'amabara , banitse hasi barabisanza ba byanitse,

Umugabo n'umugore bari kugosora imyaka, bari kugosorera ku mahema nyine barabyanitse.

Uduteti turimo imiteja, duteretse mu murima urimo ibishimbo bigufi gifite uruyange.

ubunyobwa budatonoye, busutse hasi, bahinga mu bice by'ububurasirazuba.

Amahundo abiri y'amasaka, hari n'ayandi atari yatukura bahinga bakayarya, bakanayanywamo n'igikoma bayabetesheje.

Umuntu ufashe urushinge mu ntoki, uri gutera inka umuti. Inka y'amabara umukara n'umweru.

Ingurube iryamye yabwaguye ibyana, iraryamye iri kubyonsa, iryamye neza irambije.

Abantu benshi bicaye hasi hariho umugabo uri kubabwiriza bamuteze amatwi, hirya hariho inzu, inyuma y'abo bantu hariho ibibuti...

Inkoko ibyiri isake n'inkokokazi zihagaze ku giti hejuru zose ziriku imbere.

Ikibwana cy'ingurube cyiza cy'umushishe. Kiri kurira ku mitambiko y'ibiraro, y'ikiraro zibamo.

Ingurube iri kurira ibiryo muri manjwari , ihagaze ahantu bashashe amapave.

Inyana ziryamye mu byatsi. Ivutse ako kanya, iri kurigatwa na nyina.

Inyana eshatu ziri ku mbuga， hirya hariho ubwatsi bwinshi mu muririma butoshye.

Umugabo wambaye ishati y'umukara apfunditse agapfukamunwa ku nkokora, ari kureba inkwavu ziri mu biraro. hHrya ye hari umurima w'urutoki.

Ingurube nini iri mu kiraro cyubakishijwe imbabari mu mpande. Ingurube ihagaze itari kurisha.

Inka nziza ifite amabara y'umweru n'umukara, iryamye hasi. Hirya y'aho hari utwatsi duhari.

Ibyana by'ingurube biryamye ahantu hasakaye, bifite amabara umukara n'umweru.

Inka nyinshi z’inyambo zifite amahembe maremare, ziri mu murima munini urimo ubwatsi.

Inkoko ziri gutoragura hanze zifite amabara atandukanye, ni inkoko nini kandi nziza cyane.

Intama ziri mu murima ziri kurisha, imwe bayiziritse umurunga mu ijosi. Ziri mu murima munini.

Inkwavu eshatu ziryamye zarambirije, ni inkwavu z'inyarwanda, zose ziryamiye umujyo umwe.

Inkoko nyinshi cyane z'umweru ziri gutoragurira ahantu barambitse ingegera z'ibiti.

Inka iryamye, umugabo arimo kuyihagurutsa hirya hariho amazu bigaragare ko iryamye ahantu mu rwuri h'igikuyu.

Umugabo yateruye ihene n'abandi bantu benshi n'umudamu ufite ikiziriko, ni benshi umudamu yambaye ishati itukura.

Umukobwa uri mu kiraro cy'inka, ufashe ku nka mu kiraro wambaye isarubeti y’ubururu na kabogisi inyuma ye.

Ingurube nini yabwaguye ibyana, iri kubyonsa iryamye. Ibyana birimo amabara umukara n'umweru.

Abagabo batatu. Bahagaze ku mbuga babiri bambaye amasarubeti, undi yambaye itaburiya, bahagaze imbere y'inzu y'igihangari.

Ingurube nyinshi ziri ahantu, ziri kugenda, ingurube ni ibitobo, ziregeranye ziri kugenda umujyo umwe.

Umuntu uri mu rugo mo imbere mu gipangu hamwe n'ihene nyinshi, ateruye agahene kamwe ari guseka yishimiye ihene ze.

Abantu benshi bahagaze bari kureba inka iryamye hasi. Hari umugore uyifasheho uri kuyishimashima.

Ingagi ebyiri zivuye mu ishyamba, ziri kugendesha amaguru n'amaboko. Ziraringaniye. Zose ziri kureba imbere.

Inuma z'amabara meza nyinshi, zimwe zirahagaze izindi ziri gutoragura hasi ku butaka.

Akanyoni kitwa inuma bajya batworora mu bipangu no munzu, kari ahantu heza, kaguye hasi.

Akana k'igishuhe kakiri gato, kari koga mu mazi menshi cyane.

Ikinyoni gifite umunwa usongoye, gifite n'amabara menshi ku mutwe hariho amababa ahagaritse nk'isunzu.

Ingurube yo mu ishyamba yitwa Isatura. Iri kwerekeza imbere hari ibiti binini byinshi mu ishyamba.

Umugabo ufashe amahembe y'inzovu iri mu ishyamba rinini ry' inzitane, ariko yo iri ku ruhande.

Umwana ufashe agatubu kapfuye mu ntoki. Agafashe amaguru, umwana ahagaze imbere y'imbaho zubatse.

Ikinyoni kiri mu mazi, gikunda kuba mu gishanga, kirya iminyorogoto yo mu mazi.

Impyisi iri mu ishyamba yafashe agahene ko mu ishyamba iri ku karya, mu ishyamba agahene kararyamye hasi ni agatumbi.

Ibishuhe bihagaze iruhande rw'inyanja izuba riri kuva birangamiye ayo mazi.

Inyombya ntihagaze ku itami ry'igiti kiri mu mu ishyamba. Hirya hagaragara ishyamba

Ikinyoni kinini cy'umweru, kivanye isamaki mu mazi magari y'ingezi.

Imisambi ibiri iri mu twatsi twinshi twiza, irahagaraze, iri kurebana.

Igisimba cyitwa igitera kiri kugenda mu byatsi bikeya, hirya hariho ishyamba ry'inzitane.

Inkende isutamye ifashe akantu, mu kuboko kw'iburyo gatukura hirya yayo hariho ishyamba.

Amasha atatu yo mu ishyamba, ari ahantu hagaragara, imwe iri kwinjira ahantu hari akanani k'ibyatsi birebire, hirya yazo hari ishyamba ry'inzitane.

Ingurube yo mu ishyamba yitwa isatura. Ifite amenyo yahingutse inyuma, iri kugenda buhoro buhoro.

Ikinyoni bita igihunyira, kiri mu murima cyaguye hasi umurima urimo ibyatsi bike biringaniye.

Ubwoko bw'udukoko bwitwa imitubu, iri mu bwoko bw'ibikeri. Bihagaze ku giti ku itabi ry'igiti ari bitatu.

Udusimba twitwa impala turi kwiruka ahantu hari imikenke. Hirya hakurya y'aho hari agasozi gateyeho ibiti.

Ingagi ebyiri ziri mu biti, imwe iri ku ishami, n'iyindi iri ku rindi shami. Iri mu ishyamba harimo ibiti binini.

Inuma nziza bakunda korora, bororera mu ngo, ihagaze ahantu iruhande rw'itabi ry'igiti rirambitse hasi.

ingo yagebiri iyashyamba imiza'konzu izagarasutani

Agasimba ko mu ishyamba bita impara bagafotoye kegereye, hirya yako hariho ishyamba.

Inyoni yitwa ikigagari, iri mu murima urimo utwatsi twumye, ihagaze irikureba izamuye umujosi.